Abantu b'ingeri zitandukanye bakoranyijwe ahantu hamwe bari kwiga ku kintu runaka hari n'abashinzwe gutangaza amakuru ndetse n'indangururamajwi imbere yabo n'amazi yo kunywa ndetse n'ameza.

Ahantu hateraniye abantu bakuru, bicaye bari kujya inama kandi hakaba hari n'abashinzwe gutangaza amakuru, wenda bakaba bari kwiga ku cyo bakora kugira ngo u Rwanda rutere imbere.

Abayobozi bateraniye hamwe bari kuganira ku bibazo bakemura hakaba hari umugore n'undi mugore bose bari gusoma baganira kandi bose bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere yabo mbese n'abandi bantu benshi bari inyuma yabo.

Igikorwa cyateranyirije abantu ahantu hamwe aho bari kuganira, yaba abagabo ndetse n'abagore. Hakaba hari n'umukobwa ufite indangururamajwi uri gusa naho ageza igitekerezo ku abandi bateraniye aho.

Uburyo bwateganyijwe na leta bw'ukuntu umuntu ashobora kugeza ikibazo cye ku bayobozi bitabaye ngombwa ko akigeza ku muyobozi mukuru w'igihugu, akaba ari uburyo bwateganyijwe bwo guhurira hamwe.

Umuntu w'umusore wicaye ahantu mu ntebe akaba ari kwitegereza umuntu uri gutanga ikiganiro imbere iruhande rwe hari amazi kandi akaba ahetse agakapu ndetse n'abandi bakobwa bamuri iruhande.

Umugore n'umugabo bicaye ku ntebe babayobozi bicaye inyuma y'ameza, ndetse n'indangururamajwi imbere yabo, ameza ndetse n'abandi bantu bagiye bamukikije, bisa nkaho bari kuvuga cyangwa bateze amatwi umuntu uri kubabwira ibintu runaka.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye mu ntebe bisa nk'aho ari kubwira abantu bari imbere ufite indangururamajwi imbere ye iteretse ahantu ku meza, ndetse wambaye amarinete na kositimu ndetse n'ishati y'umweru.

Igikorwa cya leta cyahurije hamwe abayobozi, bari kwiga ku kintu runaka, ari bo abantu b'ingeri zose, yaba abakuze ndetse abagabo n'abagore, hakaba hari n'umuntu uri kuvuga ikiganiro mbwirwaruhame imbere yabo.

Inama yahurije hamwe abayobozi bose bicaye ku ntebe zigiye zitandukanye harimo abagore, abagabo ndetse n'abakobwa bose bicaye iruhande rw'ameza imbere yabo hari ibendera ry'i Rwanda.

Igikorwa cyateguwe na leta cyo guhereza ubukangurambaga bw'urubyiruko, harimo abagore ndetse n'abasore, n'abakobwa bose bakaba bitabiriye ubwo butumire bakaba bambaye amapira y'ubururu ndetse n'amazi yo kunywa imbere yabo.

Igikorwa cya leta ari cyo ubukangurambaga bwahurije hamwe abantu benshi, bisa nkaho bicaye bari kumva inama cyangwa igitekerezo kiri kugezwaho n'abantu, bakaba ari ingeri zitandukanye, hari abagore n'abagabo, ndetse n'ibinyabiziga bihagaze ahagana inyuma.

Abantu b'abakozi ba leta bari mu nama bari kuganira ku kibazo runaka, bicaye imbere y'ameza mu buryo bw'uruziga bose bafite indangururamajwi ndetse n'amazi imbere yabo ndetse n'abantu bashinzwe gufata amashusho.

Abantu bo mu nzego za leta bose bicaye hamwe bari mu nama bari kuganira ku kibazo bakemura, hakaba hari n'abagabo n'abagore bose bicaye kandi hari n'ameza ndetse n'amazi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga aribyo mudasobwa biri imbere yabo.

Ahantu habereye inama cyangwa ikirori cyahuriwemo n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye, hari abakobwa abana abagabo abagore ndetse n'abakecuru kandi bari ahantu hasakaye hejuru yabo hari amatara ndetse hasi yaho hari tapi y'ubururu.

Igikorwa cyahurije hamwe abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, haba abasore, abagabo ndetse n'abagore, bose bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, bya mudasobwa, kandi bose bicaye bari kureba imbere mu nzu.

Igikorwa cya leta cyahurije hamwe abantu b'ingeri zose, aba abasore ndetse n'abakobwa bose bakaba bitabiriye icyo Igikorwa, bakaba bari kubwirwa ikiganiro mbwirwaruhame ndetse kandi bose bafite amazi imbere yabo.

Inama y'abayobozi cyangwa abantu bari kwiga ku kintu runaka bose bahuriye hamwe abagabo n'abagore, ndetse hakaba harimo umwe uri kuvuga ijambo binyuriye mu indangururamajwi ye ndetse n'amazi imbere ye.

Inama ihuriwemo n'abantu b'ingeri zose harimo abagore n'abagabo bicaye imbere yabo bose hagiye hari indangururamajwi ndetse n'amazi, ndetse n'inyakiramashusho zigiye ziri imbere yabo mu byerekezo bitandukanye.

Inama yahurije hamwe abantu b'abayobozi bari kwiga ku kibazo runaka bose bakaba bashishikajwe no kuba bakumva ibyo umuyobozi mukuru avuga hakaba hari amaji imbere yabo ndetse n'indangururamajwi kuri meza yabo.

Abantu bahuriye hamwe bisa nkaho bari mu nama, umwe ari kwandika ndetse n'abandi imbere yabo bagiye bafite indangururamajwi ndetse bose bicaye nkaho bateze amatwi umuntu uri kuvugira.

Abagore babiri bambaye amarinete bose bagiriwe icyizere na leta, bakaba bari kwiga ku kibazo cy'abantu badasora bose bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga aribyo mudasobwa, biri imbere yabo bari kureba iruhande rumwe.

Inama yahurije hamwe abantu bari kwiga kugikorwa bishobora guteza imbere, hakaba hari umuntu w'igitsina gore uhagaze imbere yabo , ari kubasobanurira binyuze mu ndangururamajwi ndetse n'inyakiramashusho iri inyuma yabo.

Inama yahurije hamwe abayobozi bari kwiga ku kibazo, bisa nkaho uriya wicaye imbere ari we uri kukivuga cyangwa ariko kubasobanura ibintu runaka. Hakaba hari amabendera agiye ari ku mpande, ndetse bose bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere yabo.

Inama yahurije abayobozi ba leta, aho bari kurebera hamwe ikibazo babasha kuba bakwigaho ndetse hakaba hari abagore batatu bose bari kureba mu cyerekezo kimwe, bicaye kandi bose bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere yabo.

Inama yahurije hamwe abayobozi bo mu nzego zitandukanye aho bose bari kwiga ku kibazo bakosora, akaba ari ingero nyinshi z'abagore n'abagabo bose bafite amazi imbere yabo ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga n'indangururamajwi.

Abakozi ba leta bose bahagaze ahantu hamwe bemye, bambaye ukuntu gutandukanye bari imbere y'inzu yagenewe gukorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo na gahunda za leta bakaba bose bisa nkaho ari abakozi ba leta.

Uburyo leta yashyizeho bwo kuganiriza urubyiruko, akaba ari umuyobozi w'igitsina gore wambaye ishati y'ubururu uhagaze imbere y'abantu, ari kubabwira inama cyangwa ikiganiro mbwirwaruhame.

Igikorwa cyahuriyemo n'abantu benshi bagiye batandukanye b'ingeri zose ari bo abagabo, abagore, abakobwa ndetse n'abasore bahuriye ahantu hamwe, bisa nkaho hari umuntu urivuga imbere yabo ikiganiro runaka.

Abayobozi bari mu nama bisa nk'aho hari ikiganiro bari kugezwaho imbere kandi hakaba hari n'ibyuma bishinzwe gutwara amakuru ahantu habubugenewe, ndetse n'inyakiramashusho iri iruhande rw'abo kandi buri muntu wese uri hano afite igikoresho cy'ikoranabuhanga aricyo mudasobwa.

Abantu bicaye mu byerekezo bitandukanye bisa nkaho bari guhabwa serivisi za leta umwe ari kureba mu gikoresho cye cya mudasobwa n'undi wese ari kumureba ategereje ko yahabwa ibisubizo.

Igikorwa cya Leta kirimo ubukangurambaga ku bantu bose bari aho ngaho, hakaba hari umuntu w'umugabo wambaye isaha n'agakomo n'ishati, inyuma hakaba hari icyapa kigaragaza ibyo bari gukora.

Abantu bagiriwe icyizere na leta bakaba bahuriye ahantu hamwe, bakaba bari kwiga ku kibazo runaka ndetse bose bafite amazi ndetse n'ibitabo imbere yabo ndetse n'ibyapa bigaragaza icyo bari gukora aho hantu.

Abantu barenze babiri bashobora kuba bari kwitegereza umuntu, bose bisa nk'aho yabatangayeje kandi bicaye no ku ntebe nziza zakorewe ahantu hagiye hatandukanye nko muri mika.

Abantu b'ingeri zitandukanye yaba abagore n'abagabo bicaye hari icyabateranyirije hamwe bafite amazi imbere yabo ndetse n'icyuma cyerekana amashusho mu buryo bunini bugaragara.

Inama yahurije hamwe abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye, akaba ari abayobozi b'abagore ndetse n'abagabo bose bicaye ku meza, ndetse n'abandi bagiye bicaye inyuma. Kandi bose bafite indangururamajwi imbere yabo.

Igikorwa cyateguwe na leta aricyo cyo gukangurira abasore n'inkumi kujya mu ngando, bakaba bahabwa imyitozo cyangwa n'ubundi bumenyi bugiye butandukanye akaba ari abasore n'inkumi bicaye bari guhabwa ijambo.

Inzego z'abayobozi akaba ari abantu bicaye mu ntebe bose bari gutega amatwi ikiganiro mbwirwaruhame, kandi bamwe muri bo bafite ibikoresho bya mudasobwa imbere yabo, hakaba hari abagabo n'abagore bafite amazi ku ruhande.

Igikorwa cyateranyirije hamwe abantu b'ingeri zose harimo abasore, abagabo ndetse n'inkumi n'abadamu bose bakaba bicaye ku ntebe, imbere y'ameza bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'umuntu uhagaze uri kubabwira ikiganiro mbwirwaruhame.

Ipoto igizwe n'ibyuma bishinzwe kuzamura ubwihute bw'itumanaho, haba kuri terefone, kuri murandasi ndetse no kuri mudasobwa zigiye zitandukanye. Akaba ari igikorwa cyashyizweho na leta.

Uburyo leta yashyizeho bwo gukoresha imashini zigiye zitandukanye ku bacuruzi bacuruza ibintu bitandukanye, ku buryo ushobora kwishyura amafaranga bakaguhereza inyemezabwishyu ivuye ku kigo gishinzwe iby'umusoro.

Uburyo bwiza leta yashyizeho bwo gufashwa binyuriye kuri murandasi cyangwa ugakoresha mudasobwa yawe, aho ushobora kuzuza cyangwa ugasaba ibyangombwa bijyanye n'ubutaka.

Ahantu habugenewe hakirwa abantu baje guhabwa serivisi runaka hari abantu b'ingeri zose, abagabo n'abagore bari kureba munyakiramashusho barigukoresha na murandasi.

Ahantu hatangirwa serivisi aho ushobora kwinjira no gusohokera, bakaba batanga serivisi zo kuba wabona nk'ubufasha bwerekeranye n'ibyangombwa ndetse n'ibindi bintu ibyo ari byo byose, nko kubona nimero z'irangamuntu.

Uburyo leta yagiye ishyiraho bwo kugira ngo yihutishe uburyo bw'itumanaho. Iki gikorwa kikaba kiri hejuru y'inzu ya etaje yagenewe guturwamo ndetse n'ibiti bigiye bikikije.

Ibikorwa remezo birimo amazu yagenewe gucururizwamo ndetse n'ibikorwa byo gutanga serivisi za leta harimo kwishyura imisoro ndetse n'ibindi bikaba ari inzu iri imbere y'umuhanda.

Igikorwaremezo cya Leta ari cyo ipoto igizwe n'ibyuma gishinzwe gusakaza itumanaho mu Rwanda, kikaba kiri iruhande rw'ibindi binyabiziga ndetse n'ibyapa bigaragaza ikigo cyawushinze.

Uburyo leta yagiye iteganya bwo gushinga amapoto maremare, azajya arushaho gutuma ikoranabuhanga ryo gutumanaho hakoreshejwe telefoni ryiyongera umuvuduko.

Igikorwa remezo cya leta cyashyizweho mu buryo bwo kongera ubushobozi bw'itumanaho mu gihugu cy'u Rwanda, kikaba kiri ahantu habugenewe inyuma y'igipangu cy'umuntu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Icyapa kigaragaza uburyo abantu bagiye baguka haba mu guturuka mu kwa munani mu kugeza mu kwa cumi, ndetse n'imyaka uko yagiye ikurikirana.

Igikorwa cya leta aricyo gishinzwe gutanga itumanaho rikomeye hagati ya telefoni ndetse n'indi, akaba ari nabyo murandasi inyuramo igiye muri za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Urupapuro rwabugenewe rushinzwe kuzurizaho umwirondoro ahantu hagiye hatandukanye, harimo amazina yawe ndetse n'igitsina cyawe ndetse n'igihugu ukomokamo.

Igikorwa remezo ari cyo umunara ugenewe gusakaza cyangwa kongera ubushobozi bwo gutumanaho mu gihe cyose hakoreshejwe terefoni cyangwa mudasobwa, hamwe n'ikindi gikoresho cyose cy'ikoranabuhanga.

Igikorwa cya leta cyakozwe mu buryo bwo kuzamura isomero, ahantu habugenewe abantu bahurira hagiye hari imyanya igiye itandukanye nk'abantu bakicaramo bakabasha kuba basoma ibitabo.

Umuntu w'umugabo wicaye imbere ya mudasobwa, ashobora kuba ari gutanga ubufasha bwerekeranye na gahunda za leta. Akaba ari guhereza ubufasha uriya wundi bicaranye, amuhereza impapuro.

Uburyo bwateganyijwe na leta bwo kugira ngo abantu bose bagire icyo bamenya ku bijyanye na mudasobwa ndetse n'abanyeshuri bicaye bari kureba umuntu uri kuvuga imbere abasobanurira ibijyanye na mudasobwa.

Ipoto rihagaze mu kazu karyo rizengurukijwe sekingi iruhande rwayo hariho andi mamashini ayifasha gukora neza, iryo poto rikaba ryaragenewe gusakaza murandasi kuri mudasobwa zose.

Ibikorwaremezo harimo umuhanda wa kaburimbo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye ndetse n'amazu igenewe gucururizamo, urugero nk'ibiryo ndetse n'ibindi bintu bitaribwa.

ahantu hagenewe gutangirwa ubufasha bugiye butandukanye hakaba hari umuntu w'umusore wambaye ishati n'ingofero uhagaze iruhande rw'urugi kandi hakaba hari n'ibyapa bigaragaza igikorerwa aho hantu.

Uburyo bwatekerejwe na leta bwo gushyira ibikoresho bifata amashusho mu mihanda mu gihe cyose habaye nk'ibintu bitari byiza bikabasha kuba byagaragara mu bikoresho by'ikoranabuhanga.

Urugo rukikijwe n'ibiti birimo inzu zagenewe amacumbi, ndetse hakaba hari n'umunara ushinzwe gutanga murandasi kuri mudasobwa zose duturiye aho hantu.

Ipoto rishinze hagati mu busitani, iruhande hariho ibiti ndetse rikikijwe n'amazu yagenewe yo guturamo, iryo poto rishinzwe kujyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo zigenewe guturamo.

Igikorwa remezo ari cyo umuhanda wa kaburimbo ndetse n'amahuriro yabyo hakaba hariho n'amatara ashinzwe kwereka abayobozi b'ibinyabiziga ko bagomba guhagarara cyangwa bafite uruhushya rwo kugenda, hakaba hari n'ibindi binyabiziga biri kugendera mu byerekezo bitandukanye.

Ipoto ryagenewe gutwara amashanyarazi, rikaba ari igikorwa cya leta cyakozwe ndetse hakaba hariho n'itara rishinzwe kwaka igihe cyose busa nk'aho bwije.

Ipoto rishinzwe kujyana amashanyarazi mu ngo ndetse rikaba rikikijwe n'ibiti ku ruhande, ndetse n'ibinyabiziga bihagaze ahantu habugenewe mu muhanda w'amabuye, ndetse n'uw'ibitaka.

Ubusitani burimo ibiti bigiye bitandukanye ibirebire ndetse n'ibigufi hamwe n'ibyatsi bigiye biri ku mpande ndetse n'ahantu abanyamaguru banyura ndetse n'amapoto atwara imiriro n'amatara acana mu gihe bwije.

Igikorwa remezo ari cyo umuhanda wa kaburimbo uri mu byerekezo bitandukanye hari n'amapoto agenewe gutwara umuriro w'amashanyarazi ndetse ikaba yanatsa mu gihe cyose bwije akaba hari n'akayira k'abanyamaguru banyuramo.

Igikorwa cyashyizweho na leta, ari cyo ipoto rishinze ahantu mu busitani rishinzwe gutwara amashanyarazi mu ngo z'abantu, ndetse kikaba gicanira umuhanda mu gihe bwije, ndetse n'ibiti bigiye biri ku ruhande bizana umuyaga.

Igikorwa remezo cyagiye gikorwa na leta cyo gushinga ipoto ahantu mu busitani rishinzwe gutwara amashanyarazi, hakaba hariho n'itara rishinzwe gutanga urumuri mu gihe cyose busa nk'aho bwije.

Uburyo Leta yagiye ishyiraho bwo kuzamura abakobwa kugira na bo bitinyuke bakore imirimo nk'iy'abahungu, urugero nk'uyu aje kwesitara amashanyarazi ku mapoto.

Igikoresho kigizwe n'utuntu dutatu gishinzwe guhagarika umuriro igihe uje ari mwinshi, kugira ngo itabasha kuba yatwika inzu cyangwa ibindi bintu biri aho ngaho hafi.

Uburyo leta yateganyije bwo gushinga amapoto akozwe mu byuma ndetse maremare ashinzwe gutwara w'amashanyarazi, haba mu nganda, mu ngo ndetse n'ahandi hantu hose hakenerwa amashanyarazi.

Igikoresho gishinzwe gutwara amashanyarazi kiyageza mu baturage, ndetse hakaba hari n'umuhanda uri ku ruhande rwawo, n'ibiti biri munsi yabyo, ndetse n'inzu zo guturamo urugero nk' amacumbi.

Uburyo leta yateganyije bwo gushyira amapoto ahantu habugenewe kugira ngo hanyuzwe insinga zishinzwe gutwara amashanyarazi mu ngo z'abantu kandi ikaba iri iruhande rw'igipangu cy'umuntu .

Imashini iteretse ahantu habugenewe igenewe gutanga umuriro ku bantu batuye aho hafi, ndetse n'abantu bahagaze bambaye ibikoresho by'ubwirinzi, n'ingofero bahagaze mu muhanda wa garaviye.

Igikorwa remezo aricyo ipoto rishinze iruhande rw'amazu yo guturamo ryagenewe gutwara amashanyarazi ahantu hagiye hatandukanye yaba mu ngo z'abantu mu nganda ndetse n'ahandi, rikaba rishinze mu busitani hegereye icyapa cy'isibo.

Uburyo leta yashyizeho bwo gutanga inkingo ku bantu bose bafite uburwayi budakira hamwe no kwikingiza ibindi, izindi ndwara urugero nka kavide ndetse n'imbasa.

Igikorwa remezo aricyo cy'ahantu habikwa imiti igenewe kuvura abantu ndetse imbere yaho hakaba hari ibinyabiziga bihagaze mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'ibyapa biyobora abantu aho bajya.

Ahantu leta y'u Rwanda yateganyije ho kujya wakirira abantu baje kwivuza ndetse n'abandi basa nk'a hari ikintu bategereje cyangwa ubufasha bakeneye guhabwa ahantu baba bategereje, akaba ari aha ngaha hakaba hubatswe n'amakaro ndetse n'amadirishya manini atuma hinjira umuyaga.

Ahantu hagenwe na leta, ikaba ari inzu ndende ya etaje igizwe n'amagorofa atatu kandi hakaba hari n'ibinyabiziga biparitse hanze aho ndetse n'abantu bafite gahunda yo kwinjiramo.

Ahantu abashinzwe umutekano bicara, bareba abinjira n'abasohoka ndetse n'umumama wicaye ahantu ari kuruhuka, yitegeye ibinyabiziga bigera kuri bitatu kandi byose bihagaze aho byabugenewe.

Imbangukiragutabara ari zo ibinyabiziga bihagaze ahantu habugenewe kuri kaburimbo ndetse n'abaturage bari kugenda iruhande rwazo, zikikijwe n'inzu zagenewemo gukorerwamo ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Igikorwa cya leta cyo kubaka amavuriro cyangwa amashuri n'ahantu abantu bashobora kunyura kugira ngo batanyagirwa mu gihe imvura yaba ibaye nyinshi cyangwa izuba ribaye ryinshi, akaba ari abantu bari kugenderamo b'abera.

Ahantu hagenewe kunyura mu gihe cyose izuba ryabaye ryinshi cyangwa imvura yabaye nyinshi hakaba hakikijwe n'izindi nzu zigiye zishinzwe gukorerwamo ibintu bitandukanye.

Ibikorwa remezo birimo inzu igeretse isize amarangi atandukanye ndetse ikikijwe n'ibyuma ku mpande hakaba hari n'amakaro ndetse n'umuhanda ukozwe mu mabuye ndetse n'umuntu uri kugenda iruhande rwayo.

Igikorwa cya leta cyakozwe hakubakwa inzu yo kugira ngo hazajye hajyamo abarwayi ndetse ibyo bitaro bikaba byaritiriwe umwami Fayisari bikaba bigizwe n'inkingi eshatu zose zizamurwaho ibendera.

Ikinyabiziga cya leta gikoreshwa kwa muganga gishinzwe gutwara abarwayi mu buryo bwihutirwa aho baba bari hose kikaba gikoreshwa kwa muganga kikajyamo umurwayi ndetse n'umurwaza.

Igikorwa remezo cya leta, ari cyo inzu yo kwivurizamo, hakaba hari n'ahantu habugenewe abantu bakirirwa, kandi hakaba hari abantu benshi ndetse n'umuntu ubakira, inyuma y'amadirishya.

Ahantu hubatswe na leta, bigaragara yuko ari kwa muganga, ushobora kunyura mu gihe cyose hari kugwa imvura, cyangwa hari izuba ryinshi, ntiribashe kuba ryakugeraho, hasi hakaba hari isima isa umutuku ndetse n'umuntu wicaye iruhande rwaho.

Imfungwa ziri ahantu ziri gukora imirimo nsimburagifungo ndetse no muri gereza, iruhande hariho urukuta rurerure ndetse n'ubwatsi, inyuma yaho hariyo imisozi miremire.

Umukuru w'Igihugu aho ahagaze imbere y'abantu, ahagaze iruhande rw'idarapo ry'u Rwanda arikuvuga ikiganiro mbwirwaruhame binyuze mu bikoresho by'indangururamajwi ndetse n'icyapa kiri inyuma kigaragaza igikorwa kiri kubera aho hantu.

Umuntu w'umugabo wambaye ishati na karuvate n'ikanzu y'abacamanza, bisa nkaho ari umukozi wa leta uhagaze ari kureba imbere ye ndetse ahagaze yemye.

Uburyo leta yashyizeho bwo kwigisha abantu bafunzwe ukuntu bakoresha mudasobwa kandi hakaba hari n'abashinzwe umutekano babareberera ko ibintu biri gukorwa.

Umugore ukorera Leta, ushinzwe guhamya cyangwa gukuraho ibyaha abantu mu rukiko, akaba ahagaze yambaye ikanzu y'abacamanza, amarinete, amaherena ndetse n'umusatsi w'umukara.

Gahunda ya leta iteganyijwe na leta, aho abantu bahurira ahantu hamwe bose bakaganira ku bibazo bitandukanye, harimo abagabo n'abagore ndetse n'abayobozi bicaye imbere ya mudasobwa.

Urupapuro ruriho amategeko ndetse n'ubujurire bushobora kuba bwarakodejwe mu rukiko hakaba hariho n ubujurire bw'umuntu ushobora kuba akeka ko yarirenganyijwe mu rugero runaka.

Abantu bari mu nzego zigiye zitandukanye, harimo abagore n'abagabo bibumbiye hamwe bisa nkaho bakoze ikimina cyo kujya babikamo amafaranga kandi bisa nkaho bahuriye ahantu hamwe kugira ngo barebe icyo bagezeho.

Uburyo leta yakoresheje, bwo kwibutsa no gushyiraho amategeko, ajyenga u Rwanda, ndetse n'itegeko rihana abantu bose bakora ibyaha, ndetse n'ubusobanuro, bw'iryo tegeko.

Umuntu w'umudamu usutse wambaye amarinnete n'ingofero n'umupira, ahagaze iruhande rw'idarapo bisa nkaho ari kurahira cyangwa hari umuntu ari kwitegereza imbere ye ndetse n'agashenete mu ijosi.

Abantu bari mu nzego zitandukanye za leta zo mu gutanga ubutabera ku bantu bakoze ibyaha ndetse n'abakorewe ibyaha bakaba bose bambaye amakanzu abigaragaza.

Ahantu hakoranyirizwa abantu bari kugororwa, ariya akaba ari amarembo y'ahantu binjirira, hari n'abandi bagiye kwinjira bahagaze ndetse n'umuntu ushinzwe umutekano w'aho ngaho.

Ahantu ha leta yagennye hofungira abantu bakora ibyaha hakaba hari imiryango binjiramo ndetse basohokeramo ndetse n'abandi bantu barimo bafungiyemo, hakaba hari n'abashinzwe umutekano bari hafi aho.

Umuyobozi Bamporiki Edouard uri mu rukiko ari kwiregura cyangwa ashinjwa ibyaha yakoze, inyuma abashinzwe umutekano bari gucunga.

Ibikoresho bibiri bisu umutuku byagenewe kuzimya inkongi y'umuriro, mu gihe habaye ibyago byombi bihagaze ahantu kuri sima ndetse buri kimwe inyuma yacyo hari ibikarito.

Ibikoresho umuntu akoresha yurira cyangwa amanuka ahantu umuntu adashobora kwigeza, biri ahantu bicuruzwa cyangwa ahantu ku muhanda runaka bigurishwa.

Uburyo Leta yateganyije bw'uko haramutse habonetse inkongi y'umuriro, hashobora kwifashishwa itiyo ishobora gutwara amazi cyangwa ibindi bikoresho byabugenewe byo kuzimya umuriro mu buryo bwihuse.

Gahunda ya leta ari yo yo gukoresha abantu ibizamini byo kubona uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rwa burundu. Hakaba hari mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'abashinzwe umutekano bakurikirana ko biri kubahirizwa.

Uburyo leta yashyizeho bwo gushyira abantu bashinzwe umutekano mu muhanda, akaba ahagaze ahantu hanyurwa n'abagenzi mu kayira ndetse iruhande rwabo hakaba ari umuhanda ndetse n'abantu bagiye batandukanye bari kunyura mu byerekezo bitandukanye.

Ibinyabiziga bishinzwe gutwara abashinzwe umutekano bava ahantu hamwe bajya ahandi bihagaze ku muhanda wa mapave ndetse n'inyuma yaho hakaba ari n'inzu yabugenewe yo gukorerwamo ibikorwa runaka.

Uburyo leta yashyizeho gushyiraho abantu bashinzwe umutekano mu muhanda bakabasha kugenzura niba uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ari rwo ndetse hakaba hari umwe ushinzwe umutekano.

Uburyo leta yashyizeho bwo gusuzuma neza niba uruhushya umuntu afite rwo gutwara imodoka ari urwanyarwo cyangwa atari ruhurika hakaba hari umuntu ushinzwe umutekano wo mu muhanda ubireba akoresheje imashini.

Igikorwa cy'iyamamaza ryo kuba umukuru w'igihugu hakaba hari abantu bamuherekeje bose bicaye iruhande rwe ndetse n'uwiyamamaza, akaba afite indangururamajwi ndetse n'amazi n'ameza imbere yabo ndetse n'icyapa kigaragaza uri kwiyamamaza imbere.

Kwiyamamaza kuba umukuru w'igihugu ndetse hari n'abashinzwe umutekano bari ku ruhande rwe n'abantu bagiye bafite amadarapo ariho izina ry'ishyaka rye ndetse n'amafoto agiye ari ku byapa bimukikije.

Umukuru w'igihugu uhagaze yambaye kositimu na karuavate n'amarinete urikubwira imbaga y'abantu binyuze mu gikoresho cy'indangururamajwi, ari kuri sitade ahantu imbere y'abantu benshi.

Ahantu hahuriye n'abantu b'abayobozi bari kwiga ku kibazo runaka cyabateza imbere harimo ubwoko bw'abantu, abagabo, abagore, abakuze, ndetse n'abana bose bakaba bicaye hamwe bari kuganira ku cyabateza imbere.

Ubwinjiriro bw'amashuri bugazwemo n'abantu b'ingeri zose, kandi imbere yabwo hakaba harimo ibiti ndetse n'ahantu ibinyabiziga bishobora guhagarara ndetse n'inyuma yaho hakaba harimo ibinyabiziga bihahagaze.

Umukuru w'igihugu uri gutambuka ava imbere y'abantu, akaba yari ari kuvugira imbere y'abantu cyangwa ari kubahereza inama, akaba yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'impeta ndetse na marinete.

Umuntu w'umugabo wicaye mu ntebe bisa nkaho ari kuvuga abwira abantu, imbere yabantu imbere ye hari mudasobwa ndetse n'kirahuri cy'amazi ya kunywa.

Uburyo bwashyizweho na Leta bw'ukuntu abayobozi barahirira imbere y'abaturage b'u Rwanda, ukuntu bazita ku nshingano zabo, bafashe ku ibendera hakaba harimo abagore n'abagabo.

Abantu benshi bateraniye ahantu bari kwamamaza cyangwa bari mu kibuga cy'umupira bose, hari n'abatangazamakuru ndetse n'abantu b'ingeri zose yaba ibitsina gabo n'ibitsina gore.

Abayobozi ba leta basa nkaho bari gusobanurira abantu babicaye imbere, hakaba hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bibateretse impande ndetse hakaba hari n'umugore wambaye isaha wambaye n'ikote rimukinga imbeho.

Abayobozi bari kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika, bari ahantu habugenewe ho kwiyamamaza bahagaze imbere y'abazabatora ndetse n'ibyapa inyuma yabo n'amezi imbere yabo.

Igikorwa cy'umukuru w'igihugu ari kuganiriza abantu bagiye batandukanye mu ngero zitandukanye ahagaze nzu y'akazu kubatse n'amahema ndetse n'ishati y'umweru n'indangururamajwi ari kuvugira imbere

Abantu bo mu ngero zitandukanye abagore n'abagabo bari mu nzego za leta zigiye zitandukanye, bisa nk'aho bari mu nama yo kwiga ku kintu runaka kibangamiye abantu.

Igikorwa kigenewe abantu bari kwiyamamaza kuzaba abakuru b'igihugu kandi hakaba hari n'ibyapa bigaragaza ko bari kwiyamamaza, hakaba hariho umugabo wambaye karavate n'ishati ndetse n'ikote.

Ahantu habugenewe, abantu bashyiramo amajwi yabo agenewe gutora, wenda se abakuru b'igihugu ndetse n'abandi bo mu buyobozi runaka n'abashinzwe umutekano.

Igikorwa cyo kwamamaza umukuru w'igihugu ariwe uhagarariye FPR hakaba hari abaturage bari ku mwamamaza, bafite ibyapa byanditseho ishyaka rye ndetse n'ingofero bagiye bari ahantu hagiye hatandukanye.

Uburyo leta bwite ishyiraho bw'ukuntu abantu bakwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu akaba ari uburyo bwashyizweho na leta ku muntu ushobora kwiyamamaza ndetse akanavuga imigabo n'imigambi ye imbere y'abantu.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda gishaka abagenzi wa kaburimbo, hakaba hari n'andi mazu y'ubucuruzi akorerwamo ibintu bitandukanye, harimo gucuruza inzoga ndetse no kogosha, hakaba hari n'izindi nzu zikiri kubakwa.

Igikorwa cya Leta aricyo cyo kubaka ahantu ibinyabiziga bizajya bihurira ndetse n'abantu, bigatwara abagenzi, abagiye mu nshe zigiye zitandukanye, hakaba hari ibinyabiziga byagenewe gutwara abantu, bihagaze ahabugenewe.

Ikinyabiziga kigizwe n'amapine atatu, kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, iruhande hakaba hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti bigiye bizengurutse umuhanda birebire biri ahakorerwa amatafari.

Ibinyabiziga bitwawe n'abayobozi byose biri kugendera mu cyerekezo kimwe mu muhanda wa kaburimbo, hakaba hari n'abagenzi bari kugendera mu kayira kabugenewe ndetse n'amapoto ashinzwe gutwara umuriro ahabugenewe.

Ikinyabiziga gishinzwe gutwara ibikoresho, bikoreshwa mu bwubatsi, kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo uciyemo kabiri n'imirongo y'umweru, kiri kugenda iruhande rw'inzu zagenewe ubucuruzi ndetse n'ibindi binyabiziga bihagaze ku rundi ruhande.

Uburyo leta yashyizeho bwo kumanika ibyapa ahantu hagiye hari ibintu by'ibisambu, hatagenewe ndetse hakaba hari n'icyapa kiranga abayobozi b'ibinyabiziga batwara abantu benshi aho bagomba guhagarara by'akanya gato.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara ibintu bigiye bitandukanye, haba ibicuruzwa hamwe n'imizigo. Kikaba kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo mu cyerekezo cy'iburyo, n'abandi banyamaguru bari kugendera iruhande rwawo ndetse n'ibiti bigiye biri ku ruhande.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara imizigo kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo wubatswe na leta, i ruhande rwabo hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'iruhande rwawo nanone hakaba hari ibindi binyabiziga bihagaze bitegereje.

Ikinyabiziga cy'amapine abiri kiri kugendera mu muhanda w'igikorwa remezo wa leta ari cyo kaburimbo, urimo ibyerekezo bitandukanye ndetse mo hagati y'iyo mihanda hakaba hari ibiti ndetse n'amapoto atanga urumuri.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko butwara imizigo, kiri kugendera mu muhanda mu cyerekezo cy'iburyo aho n'umuyobozi wacyo yicayemo imbere. Ndetse n'ikindi kinyabiziga kigizwe n'amapine abiri gihagaze iruhande ndetse n'akayira k'abanyamaguru.

Igikorwa remezo ari cyo ikinyabiziga cyashyizweho na leta cyagenewe gutwara abantu b'ingeri zigiye zitandukanye kibavana hamwe kibajyana ahandi kikaba kiri kugendera mu cyerekezo cy'iburyo kiri mu muhanda wa kaburimbo.

Ibikorwaremezo birimo umuhanda ndetse n'ahantu hagenewe kugendwa n'abanyamaguru, ndetse n'ibinyabiziga byinshi mu muhanda wa kaburimbo, harimo umuntu wikoreye ibintu bisa imizigo ndetse n'amatara yaka ku ruhande n'imisozi inyuma yaho.

Ikinyabiziga gitwawe n'umuyobozi ndetse n'umugenzi kigeze aho abanyamaguru bambukira kiri kugendera muri kaburimbo iruhande rwayo hariho akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire bishinze iruhande rw'umuhanda.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara imicanga ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa ahantu hakorerwa ubwubatsi kiri kugendera mu muhanda mu kuboko kw'iburyo hakaba hari n'akayira abantu banyuramo ndetse n'umuntu uri kunyonga igare.

Igikoresho cyakozwe gishinzwe gutwara imizigo itaremereye cyane, kikaba kigizwe n'amapine kegetse ku giti kirekire kiri iruhande rw'akayira abantu banyuramo ndetse n'umuhanda wa kaburimbo.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda leta yubatse wa kaburimbo, kiri kugendera mu cyerekezo cy'iburyo, hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibiti bigiye biri ahantu hatandukanye n'ibindi binyabiziga bitwara imizigo biri mu gipangu.

Igikorwa remezo aricyo kinyabiziga cyabugenewe gishinzwe gutwara abantu benshi benshi uko bishoboka kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'ibindi binyabiziga by'ubwoko butandukanye birimo n'ibitwara imizigo n'abagenzi biri inyuma yacyo ndetse iruhandebande haaba hari akakayira kanyurwamo n'abagenzi.

Uburyo leta yashyizeho bwo gutwara abantu hatabayeho imivurungano, akaba ari ibinyabiziga, ari byo bya yegokabu, bihagaze ahantu muri kaburimbo, bitegereje abagenzi, ndetse n'abantu bahagaze iruhande rwacyo.

Uburyo leta yateganyije bwo gutwara abantu bava muri Kigali bajya mu ntara kandi ni ikinyabiziga kigizwe n'imyanya myiza ndetse n'amatara gihagaze ahantu muri kaburimbo ndetse n'ibimenyetso byerekana icyerekezo.

Ikinyabiziga kiri ahantu hahurirwa n'ibindi binyabiziga bishinzwe gutwara abantu, kiri kugerageza gukata mu cyerekezo gitandukanye, kiri mu muhanda wa kaburimbo, imbere yacyo hakaba hari abantu ndetse n'inyuma hakaba hari amazu yagenewe ubucuruzi.

Igikorwaremezo ari cyo umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye mu byerekezo bitandukanye ndetse biyobowe n'abayobozi babyo n'ibiti bigiye biri ku ruhande birebire ndetse n'ibyapa byerekana amerekezo.

Ikinyabiziga gishinzwe gutwara abantu, kiri kugendera mu cyerekezo cy'iburyo, aho kigendera mu muhanda wa kaburimbo ndetse kibisikana n'ibindi binyabiziga, ndetse n'abagenzi bari kugenda iruhande rwacyo, ndetse n'ibiti.

Abayobozi b'ibinyabiziga bahagaze mu muhanda w'amabuye abantu batambuka, bakaba bahagaze bategereje abagenzi yuko babona bakabajyana, iruhande rwaho hakaba hari amazu agenewe guturwamo abantu.

Ibikorwa remezo ari byo amazu yagiye abugenewe byo gukorerwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ubucuruzi, hakaba hari ibinyabiziga bigiye bizengurutse icyo gikorwa remezo cy'inzu ndetse n'umuhanda wabugenewe ushinzwe kunyuramo ibinyabiziga.

Ikinyabiziga gishinzwe gutwara imizigo gihagaze ahantu runaka hari umuhanda wa kaburimbo ndetse imbere yacyo hakaba hari imizigo kigiye gutwara yenda nk'ibirayi cyangwa ibindi n'abantu bari imbere yikinyabiziga.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda bitwara imizigo, hamwe n'ibiti biteye ku ruhande ndetse kuruhande rwaho, hakaba hari ibikorwa by'ubucuruzi harimo no gucuruza ibiryo.

Ikinyabiziga kiri kugendera ku muhanda wa kaburimbo cyagenewe gutwara imizigo harimo ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Hakaba hari ibimenyetso biri mu muhanda byerekana aho abanyamaguru bagomba kunyura ndetse n'abandi bantu bari gutambuka mu kayira k'abanyamaguru.

Ikinyabiziga gishinzwe gutwara imizigo. Ndetse n'umuyobozi wacyo uri kugendera mu cyerekezo kijya iburyo, ari kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda wa kaburimbo, gitwaye abanyeshuri ndetse n'abantu b'ingeri zose, kikaba gihagurutse kivuye mu mahuriro y'imodoka, aho abantu bazitegerereza.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu, kandi kiri mumo imbere abantu bagiye batandukanye, ndetse n'imizigo ahagana imbere, kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, kibisikana n'umuntu uri kunyura mu muhanda w'abanyamaguru.

Ikinyabiziga gitwaye ibiribwa cyangwa imizigo, gitwikirije shitingi ndetse kizirikishijwe imigozi, kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, iruhande hakaba hari akayira k'abanyamaguru ndetse iruhande rundi rw'umuhanda, hakaba hari ibiti birebire bitanga umuyaga.

Ibinyabiziga by'ubwoko bwose harimo ibitwara abantu ibishinzwe gutwara imizigo ndetse n'abayobozi babyo babitwaye biri kugendera ahantu mu muhanda wa kaburimbo, harimo ibyerekezo bitandukanye ndetse n'amapoto ashinzwe gutwara amashanyarazi.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda, imbere yacyo hari ibindi binyabiziga ndetse iruhande rwacyo hari ibiti biri iruhande rwa kaburimbo biyikikije ndetse n'abanyamaguru bari kugenda.

Ikinyabiziga gihagaze mu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, iruhande rwayo hakaba hari akayira k'abanyamaguru bari kugendamo ndetse n'umuntu uhagaze, iruhande rw'ikinyabiziga kandi busa nk'aho buri kwira.

Uburyo leta yateganyije bwo guhagarika abashinzwe gutwara abagenzi ku binyabiziga byabo ntibabashe kuba hateza akavuyo cyangwa ngo hagire ukomereka, hakaba hari n'inzu zigenewe gucururizwamo n'ibindi bintu bitandukanye.

Ikinyabiziga gishinzwe gutwara abagenzi kiri inyuma y'ikinyabiziga gishinzwe gutwara imizigo kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'aho abanyamaguru bari kunyura. Dufite n'ikindi kinyabiziga kiri hirya gishinzwe kwambukiranya imipaka.

Ikinyabiziga gishinzwe gutwara ibindi binyabiziga bindi, cyangwa kibasha kuba cyatwara n'ibindi bicuruzwa bigiye biremereye, byaba ibyambukiranya igihugu, ndetse no mu gihugu mo imbere.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda leta yubatse ariwo wa kaburimbo. Kiri kugendera mu cyerekezo cy'iburyo ndetse hakaba hari n'undi muntu uri kugendera mu kayira k'abanyamaguru hamwe n'ibiti birebire.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, kiri kujya mu cyerekezo cy'iburyo aho umuyobozi wacyo arimo ndetse kandi hakaba hari n'ibiti bigiye biri iruhande rw'umuhanda.

IIkinyabiziga kinini kigenewe gutwara abantu b'ingeri zose, yaba abafite ubumuga ndetse abakuze n'abatoya, kikaba kugenda mu muhanda wa kaburimbo kibisikana n'umuntu nawe uri gusa nkaho agendera kuhande.

Ikinyabiziga cyabugenewe gitwara ibikoresho by'imizigo cyangwa ibikoresho bikoreshwa ahantu bubaka kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo mu cyerekezo cy'iburyo ndetse n'ahantu hari akayira k'abanyamaguru n'ibiti bigiye biri ku ruhande.

Ikinyabiziga cyagenewe gutwara ibikoresho byo gukoresha ahantu bari kubaka kikaba kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo mu cyerekezo cy'iburyo hakaba hari n'abandi bagenzi bari kugendera mu kayira k'abanyamaguru hamwe n'ibiti.

Ikinyabiziga kinini gifite amapine agera muri atandatu kiri kugendera mu muhanda cyagenewe gutwara imizigo, umuyobozi wacyo akaba ari kujya imbere, iruhande rwayo hakaba hari ibiti ndetse n'abantu bari gutambuka.

Ikinyabiziga kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo mu cyerekezo cy'iburyo, gishinzwe gutwara ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi, hamwe n'ibindi binyabiziga bigiye biyikikije, hamwe n'amazu, yagenewe ibikorwa by'ubucuruzi ku mpande.

Ibikorwa remezo ari cyo ikinyabiziga gishinzwe gutwara abantu benshi b'ingeri zitandukanye kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'ikindi kinyabiziga gitwawe n'umuntu imbere yacyo iruhande hakaba hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'ibindi birebire.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda wa kaburimbo gishinzwe gutwara ibintu byose bisukika harimo peterole, amazi ndetse n'ibindi bintu byose, kikaba kiri kugendera mu byerekezo cy'iburyo ndetse n'ibiti bigiye bikikije umuhanda aho abanyamaguru baca.

Igikorwa remezo ari cyo umuhanda wa kaburimbo ujya mu mujyi usa nk'aho uri kujya mu cyerekezo kigana iburyo ndetse n'undi uri kujya mu cyerekezo cy'ibumoso, mo hagati yaho hakaba hari ibiti bishinzwe gutanga umuyaga n'amapoto atanga urumuri mu gihe bwije.

Umuhanda utarimo ibinyabiziga uri kugendwamo n'abantu, kandi hari abicaye baruhuka. Bari kwitegereza ibyiza biri aho ngaho, harimo ibiti birebire ndetse n'inzu nyaburanga.

Igikorwa remezo ari cyo cyashyizwe mu bikorwa na Leta ari cyo umuhanda ujya ahantu runaka, ushobora kuba unyurwamo. Akaba ari umuhanda wa kaburimbo ugiye ukikijwe n'utundi tuborudire. Hakaba hari ubusitani hagati y'iyo mihanda ndetse n'amapoto ashinzwe gutwara imiriro.

Ikibuga cyakozwe na leta ushobora kuba haberamo imyidagaduro ndetse n'indi mikino ngororamubiri aho ushobora gukinira aho ushobora kuruhukira ku ruhande ndetse n'ubusitani bugiye buhakikije.

Ikibuga cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse na siporo muri rusange gihurirwamo n'abagabo abana ndetse n'abantu bakuze bose hakaba hari agatimba kari hagati kerekana aho urugabano rw'ikibuga ruri.

Igikorwa remezo cya leta aho cyubatse ahantu habera igi ibikorwa by'imyidagaduro ndetse n'ahantu abantu bahurira ari benshi, hakaba hasize amabara y'u Rwanda ari mu idarapo.

Icyapa cyangwa ikimenyetso kiyobora abayobozi b'ibinyabiziga ibyerekezo bakwiriye kunyuramo aricyo by'ibumoso kikaba kigizwe n'ibara ry'umukara n'umutuku n'umweru.

Icyapa cyashyizweho na Leta akenshi gikunda gushyirwa mu mihanda, aho kiba kiyobora abagenzi cyangwa abanyamaguru aho bagomba guhagarara bambuka, cyangwa kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere hanyura abantu.

Icyapa kimenyesha abayobozi batwara ibinyabiziga ,giterwa iruhande rw'umuhanda kimenyesha abayobozi batwara ibinyabiziga cy'uko imbere hari dodani zigera kuri ebyiri.

Igikorwa remezo ari cyo umuhanda ndetse n'ibyapa, umuhanda wa kaburimbo uri kujya mu cyerekezo gitandukanye, ndetse n'icyapa cyerekana ko aho ikinyabiziga kiri kwerekera, hari ikorosi.

Icyapa cyereka umuyobozi cyangwa umuntu utwaye ikinyabiziga, kimubwira yuko aho agiye kunyura cyangwa inzira agiye kunyuramo itemewe, cyangwa ibyo akoze aho ngaho bitemewe kuhakorerwa.

Icyapa gishinzwe kuyobora abayobozi b'ibinyabiziga, aho bakwiriye kunyura kiri iruhande rw'ubusitani burimo ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye, ndetse hakaba ari n'umuhanda wa kaburimbo uri kugedwamo n'ibindi binyabiziga.

Icyapa gishyirwa mu muhanda cyereka abayobozi b'ibinyabiziga uburyo bashobora kwitwara imbere bageze aho imbere bagiye ko hari ibyago runaka bishobora gutuma ikinyabiziga cyabo cyangirika.

Icyapa cyereka abayobozi b'ikinyabiziga, aricyo igare, ko hari ahantu ritemewe guhagarara. Rikaba rigizwe n'amabara abiri. Ariyo umukara, ndetse n'umutuku.

Igikorwa remezo cya leta ari cyo icyapa bigenda bishyirwa iburyo bw'umuhanda aho kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga yuko umuhanda bari kwerekeramo imbere hari ubuhaname bukabije.

Icyapa gishinzwe kuburira abayobozi b'ibinyabiziga, ko imbere aho bari kujya hari igikorwa kiri gukorwa cy'ubwubatsi, kandi icyo cyapa kikaba kigizwe n'amabara atandukanye ariyo umukara ndetse n'umutuku.

Ibyapa bigaragaza umuhanda amerekezo yawo kikaba gishingwa iruhande rw'umuhanda ndetse ahantu abantu bose bibyegeye. Kikaba cyarashyizweho mu rwego rwo kuranga amerekezo y'ahantu.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda, kereka abayobozi b'ibinyabiziga icyerekezo cya nyacyo bakwiye kunyuramo, yaba ikijya iburyo, kikaba gikoreshwa ahantu mu muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo akayira k'abanyamaguru ndetse n'icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bakwiriye kunyura, ndetse n'aho udakwiriye kunyura, icyo ngicyo kikaba ari icyapa cyashyizweho na leta.

Igikorwa remezo ari cyo umuhanda wa leta, urimo ibyerekezo bitandukanye yaba icy'iburyo ndetse n'icy'imoso. Hakaba hari icyapa cyerekana aho umuhanda ugera ndetse n'ahantu abanyamaguru banyura.

Icyapa cyerekana ko umuhanda uri kunyuramo cyangwa inzira uri kwerekeza utwaye ikinyabiziga cyerekana y'uko imbere hari inzira ikomeza ijya imbere, mbese kiguha nk'uburenganzira bwo gukomeza imbere.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda gishinzwe kuyobora abayobozi b'ibinyabiziga kibamenyesha ko imbere muri metero nka zingahe hari dodanani zigera nko muri ebyiri zishobora guteza impanuka bagapfa.

Icyapa gishyirwa mu muhanda, kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko aho icyerekezo bari kujyamo hari imirimo runaka iri gukorerwamo, urugero nko gusana umuhanda ndetse n'ibindi.

Icyapa cy'ikimenyetso gishyirwa iruhande rw'umuhanda kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga y'uko icyerekezo bari kujyamo kirimo amahuriro y'imihanda menshi, ko bagomba kwitegura kugira umwanzuro bafata.

Uburyo leta yashyizeho bwo gutuza abantu mu midugudu hatarimo akajagari, aha ngaha akaba ari Kimironko, aho abantu batuye mu ma etaje, bose bakaba banakikijwe n'ibiti ndetse n'ibindi bikorwa, birimo amashanyarazi.

Amazu ateye mu bwoko butandukanye harimo ama etaje ndetse n'andi atageretse, hakaba ari ahantu hameze nko ku musozi ndetse n'ibiti bigiye biteye ku ruhande haho.

Ikinyabiziga kigizwe n'amapinane kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwacyo hakaba hari ibyapa ndetse n'amazu agenewe ubucuruzi cyangwa kubamo. Ayo mazu akaba yaragenewe kuzacururizwamo ibikoresho runaka nk'iby'ubwubatsi.

Uburyo abantu bakoze bwo kubaka kugira ngo bazitire urugo rwabo kugira ngo abajura batazabiba ndetse rukaba rugizwe n'amabuye ndetse n'ibindi byuma bigiye biri ku madirishya mo mibere hakaba harimo ipoto zishinzwe gutwara amashanyarazi.

Uburyo Leta yagiye iteganya bwo gutuza abaturage mu midugudu, hakaba harubatswe inzu zigiye zitandukanye hakubiyemo n'iyi iboneka muri Kanombe, akaba ari etage igizwe n'amadirishya ndetse n'aho binjirira n'aho banikira, hakaba hari n'ipoto rishinze rishinzwe gutwara amashanyarazi.

Inzu yagenewe gukorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi hakaba harimo abantu bagenda bakorera iki gikorwa kikaba ari icya leta yateganyije ukuntu abantu bakivana mu bukene.

Ibikorwa bya leta bikubiyemo imihanda ya kaburimbo ndetse n'amazu yagenewe yo gutorwamo, umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye biri kujya mu byerekezo bitandukanye ndetse n'umugenzi uri kugerageza kwambukiranya.

Igikorwaremezo ari cyo inzu ya etaje igenewe gukorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo gucururizwamo ndetse n'ahantu hatangirwa ubufasha bujyanye n'ibikorwa bya leta.

Ibinyabiziga biri mu muhanda wa kaburimbo, byerekeza ahantu hatandukanye ndetse n'amazu y'ubucuruzi acuruza ibikoresho byo kubaka.

Umuhanda w'ibitaka ujya ahantu runaka iruhande rwawo hariyo ibipangu ndetse n'amazu ya etaje agenewe guturwamo ayo mazu akaba afite inzugi zo mu bwoko bw'umukara.

Ahantu hanini, hagiye hari ibintu bigiye bitandukanye bya leta, harimo amazu agiye atandukanye y'ubwoko bwinshi, yagenewe guturamo, ibisambu biri ahantu hateye ibigori, ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye.

Igikorwa remezo ari cyo inzu ya etaje, yagenewe gukorerwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hab aho ushobora kubitsa no kubikuza no kubitsa amafaranga yawe ndetse n'ubundi buryo bwinshi bugiye buhari.

Uburyo Leta yagiye iteganya gukata ibibanza ndetse no guca imihanda ahantu hose hagiye hatuwe ndetse hakaba hari n'amazu yagenewe guturwamo meza kandi n'amatage agiye ari aho, hakaba hari n'ibibanza biteyemo ibiti ndetse n'ibiryo.

Amarembo y'ikigo gishinzwe icungamutungo ari cyo banki nkuru y'u Rwanda akaba ari amarembo binjiramo ndetse banasohokeramo hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko ari aho ngaho bakorera.

Ishyamba ariko rigizwe n'amazu menshi yo guturwamo, ndetse n'ataruzura hakaba harimo n'ibikoresho bigemura murandasi kuri mudasobwa ziri hafi muri ayo mazu, hamwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Igikorwa remezo leta yashyizeho cyo gutuza abantu mu midugudu ndetse ahantu hameze neza hakaba hari inzu zagenewe guturwamo ndetse n'ibiti bigiye biri ku mpande mpande ndetse n'insinga zagenewe gutwara amashanyarazi.

Igikorwa remezo ari cyo umuhanda wa kaburimbo, unyuramo ibinyabiziga bijya mu cyerekezo gitandukanye. Hakaba hari abantu banyura iruhande rw'umuhanda ndetse n'amazu yagenewe ubucuruzi.

Ibikorwa remezo harimo amazu yagenewe kuraramo cyangwa kubamo, hakaba hari n'andi, ibindi bikoresho biri aho ngaho impande, byagenewe gutwara umuriro biwugeza ku baturage.

Ikinyabiziga gishinzwe gutwara abagenzi kibavanamo kibajyana ahandi, kiri kugenda mu cyerekezo ' cy'iburyo kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hakaba hari inzu zigenewe gutura.

Uyu muhanda wa kaburimbo uri ahantu hagenewe guturwa hakaba hari amazu agiye ari ku mpande n'impande, yagenewe guturwamo ndetse n'ibindi bikorwa remezo aribyo ipoto rishinzwe gutwara amashanyarazi mu ngo z' abantu.

Ibikorwa remezo byashyizweho na leta aribyo umuhanda, ndetse n'amahuriro imihanda, akaba ari kugendwamo n'ikinyabiziga ndetse n'ibindi binyabiziga bishinzwe gutwara abantu ndetse n'ibinyabiziga bitwara imizigo ndetse n'ibiti bigiye biri ku mpande n'amapoto ashinzwe gutwara urumuri mu gihe bwije.

Igikorwa cya leta ari cyo umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'abantu kandi unyura hejuru y'undi hakaba hari n'ibyapa byereka abayobozi y'uko nta guhagararaho bihari hakaba hari ubusitani bugiye bukikije uwo muhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo kugendwamo n'ibinyabiziga; ukikijwe n'amazu yo guturamo utarimo kaburimbo.

Ibikorwa remezo ari byo umuhanda wa kaburimbo birimo kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, biri kugenda mu byerekezo bitandukanye, hamwe n'akayira k'abanyamaguru kari kugendwamo n'umuntu usa nk'aho akuze.

Ibinyabiziga biri kugendera mu byerekezo bitandukanye, iruhande rwaho hakaba hari kugendera abanyamaguru ndetse n'ibyapa ndangacyeyerekezo, n'ibiti biri ku ruhande bizana imiyaga, ndetse n'amazu yagenewe kubamo.

Ibikorwaremezo birimo umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ibiziga by'ibinyamitende ndetse n'abagenzi, hakaba hari n'ibiti biriteye iruhande rw'umuhanda byose bikaba bigize ibyiza by'umuhanda.

Ibikorwaremezo birimo umuhanda wa kaburimbo ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, n'abantu bari kugenda mu byerekezo bitandukanye hakaba harimo umuhanda uri hejuru y'ndi ndetse n'ibiti biri ku mpande yawo.

Igikorwa remezo aricyo umuhanda ufite ibyerekezo bitandukanye yaba ikigenda ndetse n'ikigaruka iruhande iruhande rwaho hakaba hari inzira y'abanyamaguru banyuramo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibimenyetso bigiye bitandukanye, bimenyesha ikinyabiziga aho kigomba kunyura, yaba ari iburyo cyangwa ibumoso, iruhande rwaho hakaba hari undi muhanda ndetse hagati y'uwo muhanda n'undi hakaba hari ubwatsi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibininyabiziga by'ubwoko butandukanye, aho biri guhurira mu ihuriro ry'imihanda ryerekeza mu moko atandukanye, harimo ibinyabiziga byagenewe gutwara abantu benshi.

Ibinyabiziga byerekeza mu moko atandukanye, byose bihurira mu mahuriro y'imihanda, harimo ibyapa ndetse n'ibiti bigiye biri ku mpande, ndetse ibinyabiziga bitwaye abagenzi.

Igikorwa remezo cya leta aricyo umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo bitandukanye. Hakaba hari ahantu abanyamaguru baca ndetse n'ibinyabiziga biri mu bwoko butandukanye biri kugendera muri uwo muhanda.